Haje ahantu henshi hakorera cyangwa se hatangirwa uburyo bwo kubitsa no kuba wagura amayinite ukabasha guhamagara umuntu cyangwa se koherereza umuntu amafaranga uri kure bityo ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane bukarushaho kuba bwinshi bugakorwa, bigatuma iterambere ryiyongera kandi bitabaye ko wakoresha amaguru ahubwo ugakoresha telefone kohereza no kohererezanya.

Igihugu gifite umutekano ubucuruzi burakorwa bukagenda neza, aho usanga abantu bihangira imirimo itandukanye harimo kuba batangari gucuruza amayinite, abantu bakabasha guhamagara abandi ku mirongo itandukanye ndetse bakohereza amafaranga kuri bagenzi babo batagiye gusiragira, bigatuma umuvuduko w'iterambere utera imbere.

Mu rwego rw'itumanaho hajeho ibigo byiza bitanga amaserivisi yihuta harimo Airtel, hano turi umuntu wihangiye umurimo urimo acuruza serivisi za Airtel ku muhanda; ni byiza birafasha kandi bigatuma abantu babona ibyo bifuza nko koherezanya amafaranga no guhamagarana mu buryo bworoshye.

Urwego rw'iterambere itumanaho naryo riri mu bibigiramo uruhare, habaho eyateli iri bituma abantu bakomezaho gutumanaho, ushatse undi akamuhamagara akamwandikira ndetse n'ushaka kumwohereza amafaranga akabikora akoresheje umurongo wa eyateli.

Kuri ubu ngubu ntugisiragira uvuga ngo wabuze ahantu ugurira amayinite cyangwa se ushaka guhamagara no kohererezanya amafaranga, kuko hari ahantu henshi usanga babikora, bityo bikorohereza abantu mu kutumanaho ku muntu uri kure ntabyo gusiragira ngo urajyayo, ahubwo bikoroshya muri gahunda zawe kuko hari ahantu henshi usanga bikorerwa bakagufasha.

Mu gihe umuntu ashaka serivisi yaba kohereza amafaranga, yaba kubitsa. Ni byiza ko hajeho ahantu henshi hatandukanye umuntu ajya kwakiraho izo serivisi. Yaba ku mihanda kandi yatwegereye. umuntu akabasha gutumanaho cyangwa se kuvugana n'undi bitamugoye.

Mu rwego rw'iterambere Leta ihora ishishikariza abaturage kugana ibigo biciriritse by'imari. Ni ibigo bifasha mu kuba byaguha inguzanyo kandi ukabasha kuba wanabitsaho bityo ugatera imbere. Mu rwego rwo kwirinda ubukene, ibi bigo biciriritse harimo n'amatsinda n'amabanki matoya nka za SACCO, aho zifasha mu kongera ubukungu bw'umuturage.

Muri iki gihe Leta ihora idushishikariza kwihangira imirimo, abantu bakava mu bushomeri, bagakura amaboko mu mufuka. Abantu bamwe bahita bajya mu makoperative, kugira ngo bakorere hamwe. Hano turi kubona koperative y'ubudozi, yibumbiye hamwe, igura amamashini yo kudoda, bafatanye ntacyo batageraho. ni' ibintu byiza n'abandi bakabaye babigiraho.

Leta ihora ishishikariza abaturage gukorera mu matsinda kuko ibitekerezo biba byinshi, maze bagakora bakihangira imirimo, ugasanga bakoze, ibintu bibyara inyungu n'amafaranga, ushaka kuguriza abandi bakabaguriza, bityo ubukungu bukiyongera.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane ko butanga umusaruro, aho abantu benshi babimenye bajya mu matsinda borora inkoko kandi usanga ni inkoko nziza zitanga amagi zitanga amafaranga, haba harimo umuntu ushinzwe kuzitaho kuzigaburira ndetse no kureba ibindi bibazo byagira bityo bakabona umusaruro mwiza ushimishije.

Ni byiza gukorera hamwe mu matsinda ndetse no mu mabanki kuko byongera umusaruro kandi ni na ho twigira imishinga, nk'aha ngaha turi kubona itsinda ryakoze cana rumwe cyangwa se amashyiga bita cana rumwe ni amashyiga meza afasha mu guteka kandi akoroshya mu kumara inkwi kuko ayo mashyiga yo atwara inkwi nkeya kandi ntiyangize ikirere, iyo rero dukoreye mu matsinda tubasha kubigeraho kandi inyungu ikaba nyinshi.

Mu myaka yashize wasangaga umuntu agira amafaranga akayabika mu rujyo, akayabika mwikoma ugasanga imbeba zirayariye cyangwa abajura barayibye ariko ubu haje amabanki hano urabona ni muri banki abantu baza bahabitsa amafaranga haba hari imiryango myinshi abantu bo kubakira ari benshi, uraza ukabitsa amafaranga yawe akaba afite umutekano waza ukanaguza bakayakugurizaho ukajya gukora umushinga, ni ibintu byiza.

Leta ihora idushishikariza kugira ngo abaturage bagire iterambere, ni byiza gukorera mu matsinda ndetse bakagana amabanki, tubona abantu bakorera hamwe bari mu matsinda kandi umusaruro wabo ukiyongera, maze Igihugu kikagira abaturage bajijutse kandi babasha kuba bafite uburyo babayeho kandi bwiza.

Iterambere ririyongera ndetse n'ubukungu bukiyongera umunsi, cyane ko mu Rwanda hashyizweho amatsinda, hubakwa n'amazu wagana ukaba ugiye kwaka nk'inguzanyo, kubitsa ndetse n'ibindi bikorwa nko kuvuga umushinga wawe bakaba bagufasha ndetse bituma ubukungu bw'abaturage n'ubushomeri bugabanuka mu Gihugu cy'u Rwanda.

Leta ihora idushishikariza guhinga ibihingwa byiza bitanga umusaruro kugira ngo iterambere ry'igihugu rigere imbere. Hano turi kubona ko hano haba ari amakoperative: yahinze, agasarurira hamwe, agahunikira hamwe ndetse iterambere ryabo rikihuta. Ni byiza gukorera mu makoperative tugasarurira hamwe nk'uku nguku tugahunika.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza ningombwa gukorera hamwe yaba mu bimina ndetse no mu mabanki abantu bakabigana kugira ngo babashe kubona umusaruro mwiza n'ubuzima bwiza mu mibereho yabo.

Kugira ngo abantu babashe kugira ubukungu n'iterambere, bashishikarizwa kubitsa amabanki, aho twareka bya bindi byo kubika amafaranga mu rugo, ndetse no kugana ibimina kugira ngo iterambere ryihute. Hano uyu arashishikariza abantu, turi kumubona akora muri banki bashishikariza abantu kuyigana.

Kera wasangaga umuntu agira amafaranga akayahunika mu kiryo ndetse no mu bimuga, ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho, ibyo bintu byakururaga ubujura, abantu bashishikarizwa kujya mu mabanki ndetse no kujya mu bibina kubitsayo ndetse wanashaka kuguza ukaguza banke ndetse ukanaguza ibibina.

Leta ihora ishishikariza abantu gukorera mu bibina cyangwa se mu matsinda kuko babasha kubona inyungu ndetse no kwizigama bityo ahazaza habo hakagenda heza. Babasha gukora imishinga bari hamwe cyane ko abagiye inama imana ibasanga kandi ntakananira abishyize hamwe. Niyo mpamvu Leta ihora ishikariza abantu gukorera mu bibina kandi usanga biri gutanga umusaruro.

Gukorera mu matsinda ni ibintu bitanga umumaro kandi no kuba wagana banki. Ni ibintu bituma ubukungu bwiyongera kuko umuntu abasha kubitsa ndetse akaba yanagurizwa bityo iterambere rye rikihuta. Abadamu nabo bari mu bantu babiganye kandi iterambere ry'umugore ririrukanka kandi n'abasobanukiwe bakabasha nabo guhugura abandi bagore bagenzi babo.

Mu rwego rwo kuruhuka ndetse no kubasha kubona amafunguro n'ibinyobwa, hubatswe amazu y'ubucuruzi ashinzwe kwakira abantu bashaka zimwe muri ibyo tuvuze haruguru yaba amafunguro ndetse n'ibinyobwa bityo ugasanga nta bantu bakibura ahantu ho kurira.

Muri iyi myaka iterambere riri kwihuta mu ngeri zose, ahantu hose kandi abantu barimo gushora amabisinesi cyangwa se ibikorwa byabo ahantu hatandukanye. Aha ngaha turimo kubona intebe nziza. Aha ngaha ni ahantu mu kabari ahantu umuntu aza agasomera icyo kunywa cye mu gihe aruhutse cyangwa se mu mugihe ashonje akaza kuhafatira ibyo kurya yicaye ahantu heza hasa neza kandi hatuje.

Igihugu kiriruka ku muvuduko w'iterambere, isuku niyo ituranga, kandi ibikorwa remezo birubakwa ahantu henshi, aho kurira mu gihe ugize inzara, ahantu nkaha turabona intebe nziza zisa neza, kandi ahantu wafatira ifunguro ryawe, hari isuku ihagije hari n'umutekano, bigatuma urushaho kugira ubuzima bwiza, kandi n'abashyitsi bakabona aho barira, baje bagana igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Amazu y'ubucuruzi arubakwa ku bwinshi ndetse n'abashora imishinga yo gucuruza bakiyongera bityo abantu bakaba batabura ahantu ho kugura ibyo bakeneye nk'ibinyobwa, ibiribwa ndetse n'ibindi. Ubona ahantu henshi hatandukanye ho kugurira ibinyobwa by'ubwoko bwose waba ushaka, yaba ibisembuye n'ibidasembuye biraboneka, haba hari n'ibyuma bishinzwe gukonjesha ibyo binyobwa ukabinywa bimeze neza.

Mu Rwanda ibikorwa remezo birubakwa n'abantu bagakora, ubucuruzi bwinshi butandukanye. Aho wabona ahantu ho kujya gufata icyo kurya n'icyo kunywa kandi hagari, aho kwicara hasa neza bityo ukaba waharuhukira ukaba wahakorera ubukwe kandi haba hari naho kurara ndetse n'ahantu ho kuganirira mu gihe mushaka kuganira mufata icyo kurya n'icyo kunywa. Ni ahantu ho gusohokera heza.

Amazu y'ubucuruzi arubakwa yaba ayo kuruhukiramo ndetse naho kuba wabona icyo kunywera cy'ubwoko bwose yaba igisembuye cyangwa se n'ikidasembuye, ukabona aho kuruhukira hafite isuku kandi heza, hisanzuye ubona aho kwicara heza ni ibintu byiza.

Leta yacu ihora idushishiriza kwihangira imirimo, aho abantu bihangira imirimo kugira ngo babone ibibatunga, mu mirimo myinshi ihari botike ubucuruzi bwa botike nabwo buri mu murimo mwiza, hano turi kubonabona botike, aho abantu baza kuguriramo, ni ahantu heza, ni umurimo mwiza.

Abantu benshi bihangiye imirimo kandi ni byiza biragagabanya ubushomeri kandi n'abantu bashaka amaserivisi atandukanye guhaha, bakabona ibintu hafi; ubucuruzi bwa botike ni bwiza, turabona umumama ari muri butike ye, yihangiye umurimo, arishimye aracuruza ibintu byinshi, ni ibintu byiza.

Igihugu gifite umutekano, abantu, ibikorwa remezo n'ubucuruzi birihuta kandi bigatanga umusaruro n'abantu bakabona akazi. Hano turi kubona imifuka ifunzwemo ibicuruzwa, bituma abantu bakora amabotiki bagacuruza bakunguka bagatera imbere, n'igihugu kiba gitera imbere. Imifuka rero iyo uyijyanye mu kuyiicuruza, ibyara umusaruro haba harimo ibirayi, haba harimo ibintu bitandukanye n'ibijumba, abantu bakabona ibyo kuryarya.

Uko iminsi igenda ihita niko abacuruzi bacuruza ibirungo by'ubwiza nabo biyongera kandi amoko menshi yaraje, hari imibavu, hari amavuta ukoresha mu mutwe, hari ayo ku ruhu ndetse n'ayo ku mubiri, arinda indwara n'avura ibiheri, ni byiza ko wajya muri buno bucuruzi kuko butanga inyungu ku ubukora.

Muri iki gihe nta muntu ukigira amafaranga ngobura icyashoramo mu gihe igihugu gifite umutekano n'ubuyobozi bwiza. Abantu bagura ano mazu yo gucururizamo icyo bita amazu y'ubucuruzi bagashyiramo ibicuruzwa abantu bakajya baza kuhahira, nk'uyu mumama afite ahantu ibyocuruzamo ibyo kurya yaba amabiswi, amavuta n'imyunyu, ibintu byiza kandi bitanga umusaruro.

Uribaza ngo ufite amafaranga makeya wayashora mu biki? ariko ni byiza ko ayo mafaranga wayafata ukayakoramo boutique ugacuruza, hano turi kubona umu mama afite boutique yashoye make kandi ibasha kumwinjiriza.

Ubucuruzi buto nabwo buri mu bucuruzi buzana amafaranga kandi bugabanye ubushomeri ,aho umuntu ajya kugura ibyibanze yakenera mu rugo, yaba ibyo kurya yaba n'ibyo gukoresha mu buzima bwa buri munsi ,buvuye muri ubwo bucuruzi buto abantu bakora kandi bukabazanira inyungu.

Mu rwego rwo kwihangira imirimo ni byiza ko dukora ubucuruzi butandukanye yaba ubw'amavuta ndetse n'ibindi maze imirimo cyangwa se ubushomeri bikagabanyuka mu baturage kuko hari ibicuruzwa byinshi bikenerwa n'abaturage.

Iterambere riri kwiruka mu nzego zose zitandukanye ndetse yaba n'aho dusengera mu nsengero usanga hasa neza kandi hari isuku ahantu hagari biba bituma usenga bayicaye ahantu hisanzuye, bityo umutekano we ndetse n'ubuzima bwiza bukabungabungwa.

Ubuzima butarimo Imana, burya nta buzima ni byiza ko mubyo dukora byose nyuma yo kujya mu kazi kose, aba ari na byiza kwibuka gusenga Imana hano turi kubona abantu bari mu rusengero barasa neza baricaye bari kuvuga Imana ni ibintu byiza.

Umuririmbyi umwe yararimbye ati: "Nta Mana, nta buzima kandi ubuzima butagira Imana ubwo ntabwo buba bwuzuye", ni byiza ko tubaho ubuzima busenga tujya mu rusengero, Ayi ni korali nziza, bari mu rusengero baririmba, baririmbira abantu bavuga ubwiza bw'Imana n'urukundo rwayo, bigatuma ababumva bamenya Imana ko ari Imana ikora kandi bigahindura ubuzima bwabo.

Nkuko ibikorwa remezo byubaka buri munsi, insengero na zo ntizasigaye, mu Rwanda tuhasanga insengero ndende kandi zifite ahantu ho guparika imodoka n'abaturage bakahasengera, ahantu heza kandi hisanzuye ubasha kwicara maze bigatuma ubuzima bw'abantu buba bwiza nta mubyigano nta no kubura aho uparika imodoka.

Guafasha ni igikorwa cy'urukundo kandi ni igikorwa kiza gitanga umusaruro yaba ku ugikoze ndetse n'ugikorewe, hano ubona umumama arimo gufasha abantu abaha icyo kunywa ndetse ubona bishimye ni ibintu byiza bigaragaza ko abantu babanye neza kandi bishimye cyane nk'uko tubibona, ibintu bitanga umusaruro mwiza.

Ibikorwa remezo birubakwa, amazu y'ubucuruzi akaba menshi, aho usanga hari ahantu hubatswe hashinzwe kuruhukira, waba ushaka kuruhuka ukagenda, ukahabona aho kuryama, ukabona aho kwicara, ukaruhuka, hari n'icyo kunywa maze ukagira ubuzima bwiza.

Igihugu kiratera imbere buri munsi maze ibikorwa remezo nabyo bikazamuka aho bituma n'umushyitsi uje mu gihugu cyacu atayishimye kuko ahantu aba yakiriwe abari ahantu hafite isuku kandi Hisanzuye turabona intebe nziza ni ahantu wajya kurira ukicara ahantu hasa neza ndetse niba ushaka kunywa ikintu cyawe ukakinywera ahantu hasa neza kandi hafite isuku nkahangaha.

Muri iki gihe mu gihe ushaka no kuruhukira cyangwa se kuba warira no kubafatira icyo kunywera, hari ahantu hubatswe henshi hafite isuku, hafite ibyo kurya by'amoko yose kandi biba biri ku mafaranga make, ni yo mpamvu abanyamahanga iyo bageze mu Rwanda bitewe n'ibyo bintu n'aho hantu henshi, iyo batashye bataha barimo kuvuga ngo Igihugu cy'u Rwanda ni kiza cyane.

Iterambere ririhuta mu mpande zose: mu bikorwa remezo, mu buvuzi ndetse no mu burezi, hano haba amahoteli mu Gihugu cy'u Rwanda ni menshi, iyo turebye iyi ni pisine nziza ahantu heza ho kuruhukira ukaza koga mu gihe ufite ibibazo ukaruhuka, hari amazi meza asa neza kandi hari n'ikirere gisa neza, ni ahantu heza cyane.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza ni mu gihe urangije akazi ukajya gushaka ahantu ufatira amafunguro, kandi ateguwe neza aryoshye harimo n'intungamubiri, ni ngombwa kuza mu maresitora akagufasha nk'iyi hano hari ibiryo by'amoko yose imbuto, imboga ndetse n'amagi, ni ibintu byiza bigufasha mu kugira ubuzima bwiza kandi bisa neza ku giciro gito.

Ibikorwa remezo birubakwa umunsi ku munsi kandi isuku iriyongera mu gihugu. Ni nako ubukungu butera imbere ahantu henshi ho kuruhukira hahurubakwa. Amahoteli kandi afite isuku. Turabona amahoteli afite ahantu ho kwicara heza, intebe nziza, ibitanda byo kuryamaho ukaruhuka. Ni ibintu byiza bituma abantu babona aho kuruhukira ndetse n'abashyitsi baje mu gihugu cyacu bakabona aho kurara ahantu h'afite igitanda gifite isuku kandi hanini hagari.

Mu rwego rw'ibikorwaremezo, abantu bari kubaka ahantu ho kuruhukira heza, kandi amazu y'amagorofa ageretse, amazu agaragara neza, bigatuma abantu babona ahantu ho kuruhukira ndetse na aho gufatira amafunguro n'ibinyobwa ku giciro cyiza, ahantu hasa neza haba hari na aho guparika amamodoka yabo, ni iterambere, ni ibyo kwishimira.

Nk'uko igihugu kiri gutera imbere mu umuvuduko, akazi kaba ari kenshi ndetse n'ihindagurika ry'ikirere ugasanga abantu barwara indwara zo mu mutwe, ni byiza ko wakora ubundi ukaruhuka hari ama hoteli meza yo kuruhukiramo, ahantu hakozwe ho kuruhuka, hari ahantu ho kogera nk'ahantu hasa neza, hari ikirere cyiza kandi hari ahantu ho kuruhukira hari n'aho guparika hanini, ahantu hasa neza waza ukanifotoreza cyangwa ukahakorera ubukwe bwawe bwiza.

Nta muntu ukibura aho kuruhukira cyane ko ibikorwa remezo byarubatswe. Hubatswe amazu yabugenewe mu kuruhuka. Aho uba usanga hafite aho kogera, aho kwicarara, ukitegera imisozi, ukaruhuka. Ahantu hafite isuku kandi hagari. Haba hari na ho kurara. Ni nabyo bituma abanyamahanga baje mu Rwanda bahishimira kandi bakaba banifuza kuhaba.

Kera byabaga bigoye kugira ngo ubone ahantu waruhukira, cyangwa ubone ahantu watemberera, bitewe n'uko ibikorwa remezo byari biri ku rwego ruri hasi cyane, ariko ngubu amahoteli yarubatswe ku bwinshi, aho umuntu mu gihe yagiye gukora ahantu hatari mu rugo iwe, abona ahantu ho kurara hari ibyumba byiza binini, kandi bifite umutekano, biba bifite na interineti, ku buryo waba uri gukoresha mudasobwa yawe ntuve ku murongo.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza kuruhuka ni byiza bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Byabaga bigoye kubona ahantu umuntu aruhukira ariko ubu ngubu siko biri, ahantu amazu meza manini yarubatswe, afite ahantu hagari ho kuruhukira cyangwa se gukorera inama, nk'iyi nzu ni nziza kandi ifite ibyumba byinshi, iri n'ahantu hasa neza ahantu waruhukira ndetse hari naho kuba washyira imodoka yawe mu gihe uje kuharuhukira.

Mu Rwanda amazu y'ubucuruzi ari kubakwa ari menshi bityo iterambere rikazamuka, umuntu ntakibura ahantu ho kuruhukira ndetse n'aho gufatira ibinyobwa n'ibiribwa kuko amazu y'ubucuruzi yubatswe ari menshi kandi ni ahantu hagari usanga intebe nziza usanga hari ahantu ho kuruhukira n'aho kogera n'aho kuryama, ni ibintu byiza.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ni byiza ko abantu bajya kuruhuka, igihe wasoje akazi kawe ukajya ahantu hari amahoteli haremewe kuruhukira, ukagenda ukaba wahasura ukaharuhukira, amahoteli ndetse n'amamoteri ni ahantu heza ho kuruhukira.

Iterambere muri rusange, ibikorwa remezo biri kwihuta no kwihangira imirimo abantu barabikora, amahoteli n'amamoteri ni ibintu byiza mu kwihangira imirimo bitanga amafaranga ndetse n'abantu bakabona kuruhukira heza cyane. Iyi ni hoteli nziza uraabona ko haba harimo gusa neza, ari ahantu heza ho kuruhukira.

Igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano ku buryo ubucuruzi amasoko, abantu bakora ubucuruzi bwabo bafite umutekano uhagije, kandi bakabasha kubona inyungu kuko igihugu gifite umutekano kandi cyorohereza abantu mu bucuruzi.

Muri iyi myaka hasigagaye hagaragara umubare w'abantu bagaragaza ingaruka z'imirire mibi bitewe n'imbaraga zashyizweho mu kwirinda imirire mibi, turi kubona inyanya turi kubona imboga nziza zitandukanye zifasha abantu mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu mirire myiza, ni byiza kugura zino nyanya kuko zino nyanya kuko zigira intungamubiri.

Ubucuruzi burakorwa ahantu henshi abagore, abamama, abasore, bagakora ubucuruzi, uretse ko hari n'abacuruza umuziki bakaba bajya ahantu hateraniye abantu benshi yaba ku mihanda, yaba mu masoko, bagacuranga, abakunze ibihangano byabo bakabaha amafaranga ndetse bikanatuma n'umuntu ucuruza abantu baza kureba ahantu kugira ngo barebe ibiri kkuhaba, bakaba banabona abakiriya benshi.

Mu rwego rwo guca ubuzunguzayi bwakorwaga no kohereza umuturage. Hajeho amasoko ku muhanda udusoko twitwa ndaburaye. Twakemuye ibibazo byinshi aho abaturage baburaga aho bahahira abandi bakaba aho bacururiza ama bizinesi yabo. Utu dusoko twaje nk'igisubizo kandi bigaragara ko ari twiza cyane.

Nta muntu ugisiragira yabuze aho ahahira ibintu byo kurya. Nta n'umuntu ukigira amafaranga ngo abure icyo ashoramo akora ubucuruzi. Haje amasoko menshi aho abantu bafite amafaranga bajya guhahira ndetse bakanacuruza. Turabona hano ni mu isoko hari abacuruza amafu, abacuruza amasukari, abacuruza imiceri kandi urabona ko bisa neza abantu baza bagahaha ku mafaranga yabo.

Amasoko yarubatswe ku bwinshi, bityo byohereza abaguzi n'abagurisha kubona ahantu bakorera hagari kandi hisanzuye, ku buryo umuntu iyo ashaka ikintu atakibura ahubwo ajya ku isoko, maze akakigura bimworoheye kandi ku giciro cyiza.

Mu rwego rwo kwihangira imirimo no kugira ngo abantu babone ikintu bakora, hagenda hashyirwaho amasoko yo hirya no hino icyo bita udusoko two ku muhanda. Ibyo bintu biri gufasha abantu bagifite ibishoro bitoya kubona aho bacururiza ibintu kugira babone akazi ubushomeri kagabanuka, amasoko ku mihanda ni amasoko meza iyo agize ibyo akemura mu buryo bwo kubona icyo abantu bakora n' amasosoko meza.

Iki gihe ubucuruzi bwarazamutse ndetse n'ahantu ho gukorera ubucuruzi amazu yarubatswe ku bwinshi bityo ntabwo umuntu ashaka ahantu ho kujya gufatira ifunguro mu gihe ashonje ngo habure kuko hari ahantu henshi hubatswe wajya kurira ndetse no kunywera heza. Usanga hari ahantu ho kwicara ahantu hagari waba urimo no kwirebera amashusho maze ukagenda ugafata ibyo kurya bifite isuku ahantu heza.

Amazu y'ubucuruzi harubakwa ku bwinshi, abantu basigaye bashora, bakubaka amazu yakira abantu bakabona ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ahantu heza hafite isuku, usanga hafite ahantu ho kwicara hisanzuye kandi hari intebe nziza n'isuku, ukaba wabona ahantu ho kurira hameze neza mu gihe ukeneye ibyo kurya.

Ibikorwa remezo byateye imbere abantu bashinga ubucuruzi bwinshi hariho ahantu ho kurya, kurira amaresitora ndetse n'amabare ho kurara, nk'iyi resitora ifite ahantu heza hasa neza kandi hagari ho kwicara uza kurira ibiryo byawe utuje kandi hari n'isuku mu buryo bugaragarira amaso.

Mu rwego rwo kutabura imirimo cyangwa se kugabanya ubushomeri, habaho kwihangira umurimo, ndetse umurimo wo gutwara abantu ku magare, nawo nk'ibyo bita ubunyonzi, ni umurimo mwiza utuma umuntu abasha kubaho kandi akabona ibimutunga, akinjiza amafaranga.

Nyuma y'uko leta yohereza abantu mu kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, abatwara abagenzi ku mamoto babavana hamwe babajyana ahandi, nabo bariyongereye kandi ni kazi keza gatanga amafaranga kakaba katunga umuryango w'ugakora.

Kuri ubu ngubu abantu bose bagiye mu byo gushaka ibinyabiziga cyangwa se n'impushya zo gutwara ibinyabiziga, bityo abantu bagakora umwuga wo gutwara abantu abagenzi ku ma moto ari umwuga mwiza mu mugihe ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kuko ni umwuga urimo amafaranga menshi.

Nyuma yuko ibikorwa remezo mu gihuguhugu cy'u Rwanda bimaze gutera imbere mu buryo bugaragara imihanda yubakwa ari myinshi, niko n'abantu bahise bakora ama bisinesi cyangwa se umwuga wo gutwara abantu, abagenzi kuma moto. Noneho ubu ngubu iyi ni moto itwaye umugenzi imugeza aho imujyanye kandi neza mu muhanda mwiza.

Mu iterambere abantu benshi bari kwihangira imirimo itandukanye, aho usanga n'umurimo wo gutwara abantu ni mwiza cyane uzana amafaranga kandi ufasha mu iterambere, aho abantu babasha kugera ahantu bajya nta gukererwa nta no gusiragira.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe kuva hamwe bajya ahandi, hajeho ama moto menshi abamotari, batwara abantu kandi ku mafaranga make, bikagabanya abantu bakererwaga ku kazi ndetse n'umuntu yarwara akabura uburyo agera kwa muganga, ugasanga abashije no gupfa ariko ubu ngubu ntago ariko bikimeze, turabona uyu mumotari yajyanye umuntu ku muvuduko muke, n'ibintu byiza.

Abantu benshi barimo gushaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kuko babonye ko harimo umurimo, nk'uyu mumotari atwaye umuntu amugeze aho bamujyana kanda aramuha amafaranga, ni akazi keza bitewe n'uko igihugu gifite ibikorwa remezo nk'imihanda rero bikorohereza abamotari gutwara abantu bakabona amafaranga n'abantu bakagera aho bajya biboroheye.

Imihanda yarubatswe ku bwinshi, imihanda migari bityo abantu baheka ibintu, yaba ku magare ndetse no ku ma moto, biraborohera kugira ngo batware abantu ndetse n'ibintu nta bantu bakikoreye imizigo ku mutwe kuko hari imihanda migari, ituma babona aho batwara ibintu banyujije ku magare.

Nyuma y'uko iterambere rizamutse riva ku buyobozi bwiza imihanda kubakwa ibikorwa remezo bikabi byinshi niko n'ibinyabiziga byiyongereye, nk'imodoka ni nziza ibasha kugendera muri uno muhanda igatwara abantu ndetse n'ibintu maze ikagezaho abantu iyo bajya kandi igendera mu muhanda mwiza ku muvuduko uri hasi bityo abantu ndetse n'igihugu kigatera imbere.

Kera wasangaga ushaka kugira aho ujya ukagenda n'amaguru bigatera gukererwa ariko ubu ngubu imihanda yarubatswe ndetse n'abantu bashyize amamoto mu muhanda batwara abantu n'ibintu, nk'uyu ni umumotari ubona ahetse umuntu amujyanye aho agiye byoroshya urugendo bigatuma agerayo vuba.

Nk'uko duhora dushima iterambere ry'ibikorwa remezo imihanda yarubatswe n'abantu benshi niyo mpamvu bashinze ama bizinesi yo gutwara abantu, bihangiye imirimo aho usanga amamoto menshi abantu barayaguze kugira ngo bajye batwara abantu babavana ahantu hamwe babajyana ahandi. Ni byiza gukoresha moto nzima zidapfuye, kugira ngo hatabaho impanuka.

Abakora umwuga wo gutwara abantu ndetse n'ibintu bazwi ku mazina y'abamotari, barashima kandi bamaze kwiyongera umubare wabo umaze kuba mwinshi, turabona nk'uyu mumotari atwaye ishyiga ryo gucanaho aba arishyikirije umukiriya, ni ibintu byiza kuko imihanda yariyongereye kandi imihanda myiza igendwaho bigatuma n'abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu aribo bamotari biyongera kandi bakora batuje bishimye.

Igihugu gifite ubuyobozi bwiza ndetse n'umutekano aba ari kiza gituma abaturage bihangira imirimo kandi bagakora akazi kabo batekanye, nk'uyu mumotari aba atwaye moto ye ari kugenda ashaka abagenzi ngo abageze iyo bajya afite umutekano nta kibazo afite kubera igihugu kiza.

Nyuma y'uko ibikorwa remezo byubatswe ari byinshi kandi byiza byatumye abakora umwuga wo gutwara abantu ndetse n'ibintu ku magare na bo biyongera, kuko imihanda ni myiza yo kugenderwaho bigatuma amagare na yo yiyongera n'abawukora kandi barishimye kuko babasha kubona amafaranga no kugera aho bageze bitabagoye.

Kugira ngo abantu umuvuduko w'iterambere ugerweho, usanga abantu bakererwa kujya ku kazi ndetse n'abarwaye kubageza kwa muganga, ni byiza ko hajebaho amamoto menshi mu gihugu, aho abantu bayatega, bakayibasha kugera aho bagiye kare, badakenewe kandi ku giciro cyiza.

Mu rwego rw'ubucuruzi ni ngombwa ko habaho ibinyabiziga bifasha mu gutwara ibintu n'abantu, maze ubucuruzi bugatera imbere igihugu kigatera imbere. Igare na ryo riheka ibicuruzwa byinshi harimo ibitoki maze bikabigeza ku bakiriya bakagenda baguraho bitaboroheye, bitabasabye kubyikorera ku mutwe, ahubwo bagakoresha bino binyabiziga bikabatwarira ibicuruzwa byabo.

Mu gihe u Rwanda ruri ku muvuduko w'iterambere harimo ibikorwa remezo bizamuka, abantu benshi bakomeza gushora ama bizinesi menshi cyane, nk'uyu turi kubona ni umumotari afata moto akajya mu muhanda atwara abantu n'ibintu bikamuha amafaranga ubushomeri bukagabanuka, ni byiza kuko byorohereza mu rugendo yaba abamugana ari bo bita abakiriya be.